Abagabo bakoraniye hamwe umwe arimo kugenda atanga amasomo, undi mugenzi we arimo kugenda avanga umuti, biteguye kujya gutera kugira ngo barwanye udukoko, tuboneka mu myaka barimo kugenda baduhashya.

Umugore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga arimo kugenda atera imiti mu muceri, uyu ni umuhinzi w'umuceri, arimo kugenda atera imiti kugira ngo arwanye udukoko dushobora konona uyu umuceri bigatuma udatanga umusaruro uhagije nk'uko waba witeze.

Umugabo w'umuhinzi arimo kugenda atera umuti yifashishije ya mapompo yayandi agezweho umuntu aheka akajya akanda icyuma ubundi kigasohora amazi arimo umuti, arimo kugenda atera imiti kugira ngo yice udukoko dushobora gutuma umusaruro uba muke.

Umugabo uhetse ipomo yabugenewe arimo kugenda atera umuti kugira arebe yakica udukoko. Uyu nguyu ni umuhinzi w'umuceri, yambaye agapfukamunwa kuburyo adashobora kwandura, ndetse kandi arimo kugenda akanda ahantu umuti ugasohoka mu ipompo.

Umugabo uri kumwe n'undi mutoya umeze nk'umwana, arimo kugenda amuhereza agapaki karimo imbuto, arimo amwereka uburyo ashobora kuvura indwara zatatse ibimera bye, kubera ko uyu nguyu ni umuhinzi w'ibimera bita ibirayi.

Umugabo ufite igikoresho ahetse mu mugongo bita ipompo, kifashishwa mu kugenda umuntu atera umuti ibihingwa byiganjemo ibirayi, intoryi, ndetse ibi imbuto z'amoko agiye atandukanye, hifashishwa kino gikoresho mu gihe umuntu ari gutera umuti.

Imiti igera kuri itatu, iri mu macupa atatu y'imyeru. Igaragaza ko ari ya miti yica udukoko. Ikunze guterwa mu gihe k'impeshyi cg se mu gihe imyaka yatatswe n'icyorezo runaka. Urugero nko mu bigori igihe nkongwa yatatse, bifasha imiti nk'iyi mu kuyitera kugira ngo barebe ko ibimera byagira ubuzima.

Abagabo babiri bafite ibikoresho byabugenewe, barimo kugenda batera umuti, ibi bihingwa bita umuceri. Iyi miti ishobora gutuma udukoko dushobora kwibasira iyi myaka bigatuma itera neza, dupfa ndetse iyi myaka igakura igatanga umusaruro uhagije.

umugabo wambaye imyambaro yabugeneye, ahetse ipompo arimo kugenda atera umuti mu birarayi, arimo kugenda azenguruka aterabu kuri buri kirayi kugira ngo arebe ko yakica udukoko, ubundi iyi myaka ikazakura neza aramutse atayikoze iyi myaka ishobora guhura n'ibyonnyi ikangirika umusaruro ukaba mukeya.

Umugore uhetse ipopo arimo kugenda aterara umuti mu ikawa kugira ngo izamere neza, arimo kugenda yica udukoko dushobora kwibasira ikawa, bigatuma idatanga umusaruro uhagije kandi aricyo aba agambiriye.

Umugore urimo kwambuka mu mazi, arimo kugenda akoresha igikoresho cyabugenewe mu kugenda agashya, amazi ayohereza mu bindi bice bigiye bitandukanye, ari nako ubwato bugenda buyobora ahantu ashaka, iki gikoresho gishobora kwifashishwa mu kwambukiranya ujya mu mazi uva mu gice kimwe ujya mu kindi.

Ubworozi bw'amafi, aho hariho icyuzi gicukuye kirimo n'amazi, aha ngaha bororeramo amafi, hariho n'akazu umugano cyangwa se nyiri aya mafi aza agashyiramo ibiribwa hanyuma amafi akabirya.

icyobo kitari mo mazi aho basukamo amazi kugira ngo bororeremo amatungo agiye atandukanye ayo bita amafi cyangwa se isambaza, ni ukuvuga ngo uretse amafi n'isambaza nta bindi binyabuzima bishobora kororerwamo hano keretse ingona kandi ingona nazo zororerwa ahantu hanini cyane, ntabwo zishobora kororerwa ahantu nk'aha.

Abagabo bagera kuri bane barimo kuroba amafi, bafite urushundura barimo kugenda bareba amafi yamaze gukura akaba ariyo bakuramo, ndetse n'andi akiri matoya bakongera bakayajugunya mu cyuzi kugira ngo akomeze akure. Aba ni aborozi b'amafi.

Umugabo uhagaze ahantu hamwe imbere ye hateyeyeho amateke agiye atandukanye ya y'andi yera cyane cyane ahantu hari amazi menshi hari n'utundi tuzu twubatse inyuma ye bigaragara ko ari ha handi bahinga ibimera ndetse ahantu hasakaye, uyu mugabo arimo guseka areba hejuru.

Abagabo benshi bahagaze hamwe n'icyobo kirimo amazi, ahangaha ni hahandi baba baracukuye bagashiramo amafi ndetse n'amazi, aho bagenda bashiramo ibiribwa amafi abagomba kurya, mu gihe arimo kororwa ndetse ahangaha bahakura umusaruro ukomoka mu byo ku mazi.

Ibyobo bicukuye birimo amazi, cyangwa se ibyuzi. Aho hano bakora ubworozi bw'amafi, isambaza, ndetse n'ibindi bintu biba mu mazi. Ahangaha bafata amafi bakayorora bakajya bashiramo n'ibiribwa agenda arya, kugira ngo umusaruro wiyongere.

Umugabo ufite akabase karimo amafi ni umworozi w'amafi arimo kugenda agana bacuruzi, arimo kugenda ashaka abantu bashobora kuba bayagura kugira ngo arebe ko yabona amafaranga, yakoze umwuga w'amafi kuko wunguka cyane, kandi amafi agira umumaro mu buzima cyane cyane ni ubwoko bw'inyama zidatukura.

Abagabo bagera kuri batatu, bafite urushundura barimo kugenda barushira mu cyuzi baramo kuroba. Biragaragara ko ari aborozi b'amafi, barimo kugenda bareba umusaruro wabo w'ibyo bahinze. abangaba ni abakora umwuga w'aborozi batandukanye.

Abagabo barimo kugenda berekana ibice byabo by'ubworozi, aba ngaba biganjemo abakora ubworozi bw'amafi barimo kugenda bazenguruka ibyuzi ndetse ari na ko bareba uko ubworozi bwabo buhagaze ibice bigiye bitandukanye.

Agace karimo ibyuzi byagiye byuzura ahangaha kandi biragaragara ko hatajya hahingwa, aha ngaha n'ibicuruzwa cyangwa se ibihingwa bihingwa hano, aha hantu akenshi haba harimo umuceri kubera ko ari mu gishanga.

Umugore uhetse igitebo ku mugongo arimo gusoroma icyayi kimwe mu bihingwa ngengabukungu umuntu ashobora guhinga agakuramo amafaranga menshi cyane kuko igihugu kibijyana hanze y'u rwanda hanyuma bakabaha amadevize.

Igihingwa k'ikawa zeze neza zimwe ziratukuye izindi n'ibitumbwe, iyo zimaze gusoromwa zishishurwaho cya gice cyo hejuru utundi dusigaye tukumutswa zarangiza zigatunganywa zikoherezwa mu gihugu cyo hanze, ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu byo mu Rwanda.

Igihingwa ngengabukungu bita ikawa, gikorwamo umuti ndetse kandi ushobora gukuramo icyo kunywa, ni ukuvuga ngo u Rwanda rubihinga rubyohereza hanze rukazana amadovize kandi bakarutuma u Rwanda amafaranga yarwo yongera agaciro.

Ikimera bita icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu kuko ibi ngibi bizana amafaranga, uko u Rwanda rubyohereza mu bihugu byo hanze ndetse ibi bihingwa bikunze kuboneka mu bice by'Uburengerazuba n'ibindi bice bikeya byo mu Burasirazuba ndetse no mu Majyepfo.

Ibiti by'ikawa bitangiye kuzana ibitumbwenyuma y'igihe gitoya bazaba bamaze kuzisoroma. Izi ikawa zirasasiye neza ku buryo aha ngaha nta bindi byatsi bishobora kuhamera. Aha ngaha kandi ni ubusitani bushobora kuba buri mu bushakashatsi.

Umugore n'umugabo bahinga ikawa. Barimo kugenda bayisarura ari nako bayishyira kuri aka gakoresho kugira ngo barebe ko bayitonora no kugira ngo yume. Ababangaba babona amafaranga kuko ikawa ni igihingwa ngengabukungu.

Igihingwa ngandurabukungu cyifashishwa mu gukora amafaranga, iki gihingwa umuntu wagihinze aba afite amafaranga menshi kuko cyoherezwa hanze, bikorwamo imiti ndetse kikananyobwa, bacyita icyayi, ni ukuvuga ngo iki ngiki umuntu ugifite ahita asezezera ubukene.

Umugore urimo kugosora ikawa, amaze kuzisoroma, ziratuku kandi zireze, yenda kuzijyana ku isoko nyuma yo kuzitunganya, izi kawa zikoreshwa cyane cyane mu koherezwa hanze, hanyuma zikazana amafaranga y'abanyamahanga bita amadevize.

Abahinzi b'umuceri ahangaha bagiye bayoboramo amazi mu muceri kugira ngo umere neza, kuko umuceri utungwa n'amazi kugeza ukuze, ndetse hariho n'abantu bagiye batandukanye impande n'impande, bamaze gukorera isuku cyangwa se kubagara uwo muceri.

Imiti y'amoko agiye atandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, iyi ngiyi ikoreshwa na muganga w'amatungo aribo bita veterineri. Kuko nibawe umenya ingano cyangwa se uburwayi itungo rifite, akaba ari bumenya uburyo ashobora kuvura. Ubu bubiko burimo imiti igi itandukanye, umuntu ashobora kuza kuyigurira mu gihe na itongo rye ryagize ikibazo.

Iduka ririmo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse aha ngaha ni muri farumasi harimo amoko y'imiti agiye atandukanye, ni ivura amatungo bitewe n'indwara itungo ryarwaye cyane cyane ivura inka, ingurube ndetse n'amahene.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ari muri farumasi cyangwa se ububiko, igizwe n'amacupa maremare agize litiro ndetse n'andi ari mu bimeze y'ibikombe yifashishwa mu kuvura inka gusa, mu kuzikingira cyangwa se igihe zarwaye, iyi miti ihabwa amatungo gusa.

Amoko y'imiti igiye itandukanye iri mu bubiko ndetse iyi miti ikunze kuvura inyamaswa cyane cyane amatungo yo mu rugo, iyi nyiyi yifashishwa na muganga w'amatungo ni we ushobora kumenya ikibazo itungo rifite, ni na we kandi ushobora kumenya ingano y'umuti iryo tungo rigomba guhabwa.

Imiti iri mu gikoresho cyabugenewe, imiti igiye akenshi iterwa inyamaswa cyane cyane inka, ihene ndetse n'andi matungo manini, yifashishwa n'abaveterineri cyangwa se bamu muganga w'amatungo mu gihe inka yarwaye.

Utujerekani twinshi, harimo utw'umweru, turimo imiti bahereza inka, harimo iy'amavitamine, ndetse harimo n'ibindi bikombe by'ubururu, bishobora kuba birimo ibinini bahereza inka rivura inzoka.

Imiti y'amoko agiye atandukanye iri mu bubiko umuganga yifashisha mu kuvura amatungo, n kuko iyigiyi iri hano imyinshi yagenewe kuvura inyamaswa: inka, ingurube, ihene ndetse n'andi matungo maremare igihe yagize ikibazo, iri ni iduka rirayacuruza ndetse umuganga wayo ashobora no kuyifashisha mu gihe agiye kuvura mu misozi cyangwa ahandi hantu.

Umuti witwa abezole uhabwa inka, ihene ndetse n'andi matungo kugira ngo yongererwe amavitamini. Bawita ikivuguto kuko mu kinyarwanda iyo ugiye k'Umuganga w'amatungo, uvuga ko ushaka ikivuguto cy'inka.

Amoko y'imiti igye itandukanye, iri mu iduka ry'imiti rigizwe n'ibinini bihabwa inka, ingurube ndetse n'intama, mu gihe zifite inzoka. Kandi baziha kugira ngo ngo zongerwe vitamini zikure neza byihuse.

Ibikoresho byifashishwa mu bworozi bw'amatungo cyane cyane inkoko aho ibi ngibi bishyirwamo imiti igiye itandukanye biba biri ahantu inkoko zororewe ari nyinshi, ni ukuvuga ngo byifashishwa mu gushyirwamo imiti ndetse kandi bashiraho n'ibyo kurya.

Amoko y'imiti y'amatungo, agiye atandukanye, aha ngaha ni mu bubiko bwayo, iyi ni imiti y'amoko agiye atandukanye, aho umuntu aza kugura, bitewe n'iyakeneye cyangwa se umuganga w'amatungo akayivurisha, bitewe n'ubwoko bw'indwara, inka cyangwa se irindi tungo rifite.

Imiti ihabwa inkoko, igizwe n'ifu ,iyi ngiyi kandi izifasha mu kuzirinda umuraramo ndetse n'ubundi burwayi bwibasira inkoko. Ahangaha iza kuyishaka kwa muganga w'amatungo cyangwa se muri farumasi.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ari mu bubiko, aho amenshi yifashishwa mu kuvura inka, ingurube ndetse n'izindi nyamaswa nini, ibi ngibi bikoreshwa n'umuganga w'amatungo kuko ni we uba uzi uburyo imiti ikorwamo ndetse iyi ishoborabu no kugaburirwa inkoko.

Umubyeyi uri mu guhinga, arimo kugenda abagara mu gihe cy'impeshyi, izuba rirava ari ryinshi, arimo kugenda yuhira imyaka ari nako agenda ashyiraho itaka, biragaragara ko ari umuhinzi w'ibirayi arimo guseka arishimye cyane.

Abagabo b'abahinzi barimo kugenda bahinga, umwe muri bo yishingikirije umuhini, undi nawe yamanitse isuka, aba ni abahinzi b'umuceri, kuko ahangaha barimo kugenda babagara umuceri umaze igihe ufashe.

Umugore w'umuhinzi yambaye igitenge ndetse yifitiey igitambaro mu mutwe, yambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu, arimo kugenda abagara igihingwa cy'ibirayi, biracyari bitoya ntabwo biragera igihe cyo kwera, arimo kugenda abibagara kugira ngo akuremo ibyatsi bishobora konona.

Ubukangurambaga ku bahinzi ndetse barimo kugenda bakangurira abahinzi uburyo bateramo imbuto zigiye zitandukanye, hariho abagabo babiri babajyanama mu buhinzi, barunamye, bambaye ingofero z'imyeru ndetse n'imipira isa y'icyatsi, baririmo kugenda bereka bano bantu babashungereye, uko bashobora gutera bino bihingwa.

Umugabo wambaye bote ipantaro y'ikoboyi rakosite y'umweru ari ha handi hororerwa amatungo cyangwa se mu kiraro, bya bindi bigezweho aho hasi hateye sima hejuru harasakaye ku buryo kuhakorera isuku byoroha, ukoropa umwanda uwujyana ahabugenewe.

urwuri rurimo amatungo agiye atandukanye. Yiganjemo: inka zifite amabara y'umweru n'umukara ndetse n'indi nka zitandukanye z'andi mabara. Ni urwuri ruri ahantu hitegeye imisozi ndetse harimo ibyatsi byagiye biterwamo by'umucaca ndetse n'ibindi biti kimwe kimwe.

Abagore babiri bo mu cyaro bavuye guhinga basize amasuka ku rutugu ndetse uw'inyuma yikoreye igiti biragaragara ko avuye gutashya, aha ngaha bari kunyura hari ibyatsi byinshi bishobora kwifashishwa mu kugaburirwa amatungo: inka, ihene ndetse n'ibindi bintu birya ibyatsi.

Umugabo urimo gusunika igare arimo kunyura ahantu hari ibyatsi birebire ahetse inkwi, bigaragara ko arimo kugenda agana imuhira avuye gusenya inkwi, ahangaha ari kunyura ni mu gihuru ndetse hari n'ubwatsi bwiza butoshye umuntu ashobora guhereza inka ndetse ari muri bwa buryo bwo kwahura hanze.

Abahinzi b'inanasi biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye udupfukamunwa barimo kugenda bareba umusaruro wabo, umwe arimo kugenda yandika abandi nabo barimo kugenda bareba izifite ikibazo cyangwa se izenda kwera.

Umugabo w'umworozi arimo kugenda aganira n'undi mugore bari kumwe, boroye inka ziri mu kiraro ziganjemo ya za nka za kijyambere, zitanga amata menshi aho ni mu rwego rw'umukamo, zirororoka kandi zigatanga umusaruro mwinshi ku kijyanye n'amata.

Umugore urimo kugenda mu nzi arimo kugenda anyura ahantu hahinze imyaka igiye itandukanye, ahangaha afite isuka ndetse n'amabasi agera kuri atatu, acunditse igitambaro mu mutwe, arimo kugenda agana iwe, iyu nguyu ni umuhinzi.

Umwumbati uteye ahantu uraracyari mutoya ndetse urahingiye ugiye ushyirwaho itaka, ahangaha na nyuma y'amezi nk'ane umuntu aba ashobora kuza agakuraho imyumbati yo kurya ndetse n'ibibabi babikuramo isombe.

Agace gahezemo insina nyinshi cyane, zifashishwa mu kwenga ibitoki, gusa insina zibamo amoko kuko hari izitanga ibitoki, umuntu ashobora kurya imineke, cyangwa se bikaba byakwengwamo umutobe, hakabaho n'iby'inyamunyo, umuntu ashobora kwifashisha abikora nk'ifunguro, byaba byokejwe cyangwa se byatetswemo agatogo cyangwa se bitogosheje.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amavuta ndetse n'ibindi byinshi, aha ngaha uraza ugatoranya icyo ushaka bakakiguha warangiza nawe ukishyura amafaranga bitewe n'ayo mwamaze kumvikana.

Igihingwa cy'umuceri gihinze ku buso bunini. Higanjemo umuceri wenda kwera kubera ko ufite utwerezwa ndetse ugaragaza umuceri, wamaze kuzana intete. Ku buryo aha ngaha bigeze cyagiye abantu cyangwa se abahinzi bawo baba bagomba kuwurinda inyoni kugira ngo zitawangiza.

Ikimera cy'umwumbati kikiri gitoya, aha ngaha kiri nta bindi bihingwa bihari, birasa nk'aho byarumbye, aha ngaha iki gihingwa kandi kirasa naho cyarwaye kuko amababi hagiye hazamo utundi tuntu tw'umuhondo, bigaragara ko nta musaruro uzatanga.

Igihingwa k'ibijumba byiganjemo imigozi ndetse aha ngaha biragaragara ko bikiri bitoya bitaragera igihe cyo gusarurwa, ibi ngibi umuntu ashobora kubyifashisha abijyana guhingwa ahandi hantu, ari ko agenda akata iyi migozi akagenda akayitera ahandi hantu.

Ikibaya gihinzemo umuceri ndetse hariho amapoto y'amashanyarazi agiye mu byerekezo bigiye bitandukanye, ndetse ariho insinga ku buryo bigaragaza ko ari umuyoboro mugari, hahandi amashanyarazi aba agiye ahantu mu gace ka kure.

Ibigori biteye ahantu ku bwshi ndetse bigeze igihe cyo kwera bifite amasunzu cyangwa se ubwerezwe ni ukuvuga ngo bigeze igihe cyo guheka nyuma y'igihe gitoya bizaba bimaze gutanga umusaruro bikurwe mu murima bijyanwe mu rugo.

Akarima k'igikoni kagizwe n'ibitaka bagiye bagerekeranya, bikozwe mu mufuka, hasi ni hanini, ahakurikiyeho ni hatoya, ahakurikiye ni hato cyane, hagenda hahingwamo imboga z'amoko atandukanye, ndetse mu buryo ushobora gushyiramo n'imbuto.

Amoko y'ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibicuruzwa ushobora kubona muri butike, hariho korogati, inyanya ndetse n'ibindi bintu biri mu masashie, ibi ngibi ubisanga muri butike igihe wagiye guhaha ufite amafaranga yawe.

Akarima k'igikoni kagizwe n'imboga, ibitunguru nibyo byiganjemo cyane. Ku ruhande kandi hari n'ibindi byatsi bigiye bihateye bikikije kano karima. Ibitunguru ni byiza cyane umuntu abyifashisha ari gukaranga, kubishyira mu isombe ndetse n'ahandi hantu.

Ahantu hari ubutaka bwakushumutse, hari ikimera bita umumbati ndetse hari n'igiti bita Geveriya, biragaragara ko hamaze igihe, harakuwemo ibihingwa ndetse ku ruhande hariho igiti cy'umwembe, ahangaha hari ubutaka bwumaganye ndetse ntabwo buheruka guhingwa.

Umurima uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye imyumbati, amasaka, insina ari byo ibitoki ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, biragaragara ko iyi myumbati ikiri mitoya ndetse n'izi nsina zenda kuzaho ibitoki.

Umurima urimo inka ndetse ni mu rwuri, aho umuntu ashobora korora amatungo, akajya yiberayo, ndetse adataha mu rugo. Ni mu buryo bwiza bwo korora ndetse utiriwe ujyana amatungo ngo uyashyire mu nzu, ujye ubana nayo, bituma atanga n'umukamo mwinshi kuko yirirwa arisha, akanarara arisha.

Akarima k'igikoni kagizwe n'imboga z'amoko agiye atandukanye ndetse harimo n'amapapayi ahinzemo ndetse n'inzuzi. Aha ngaha harimo amoko y'imboga harimo imbwija, dodo ndetse n'andi moko ndetse aha ngaha umuntu ashobora kuhakura imboga zo guteka zishobora kwifashishwa mu gutunganya ifunguro.

Akarima karimo imboga ndetse n'imyumbati za zindi bita dodo zishobora kwifashishwa ku ifunguro rya buri munsi kugira ngo ifunguro ryawe ribe ryuzuye, kuko rigomba kubonekamo imboga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ndetse hari n'imyumbati harimo n'ibindi byatsi byagiye bimera muri aka karima.

Agasozi gato kariho ibyatsi bitari binini, nta biti bihari kandi nta nubwo hatuwe, biragaragara ko hatera, hasi hariho urugo ruriho, rusakaje amabati y'umweru ndetse bigaragara ko hano hantu hatera.

Ishyamba rigizwe n'ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, byiganjemo ibihuru ndetse n'ibindi byatsi n'ibiti birebire, hariho umugezi urimo amazi ari guturuka hejuru mu misozi, yicubura hasi, aha ngaha ushobora kuhogera, mugihe uri hasi amazi akajya akwimenaho aturutse hejuru.

Ibiti biri mu kigero kimwe ndetse ni birebire, ku rundi ruhande kandi hari agashyamba, mbese karimo ibyatsi gusa. Ni ukuvuga ngo iringiri ni ishyamba, ibi biboneka cyane cyane ibyatewe na leta cyangwa se ahantu umuturage atemerewe kugenda atememo igiti.

Ishyamba rigizwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye, ibiti, ibihuru ndetse n'amoko y'ibimera bigera bitandukanye; yiganjemo inturusu ndetse n'ibindi biti birebire. Ibi ngibi bifasha mu gukurura imvura cyane cyane ko ari byo bituma imvura igwa igihe hari amashyamba ateye cyangwa se ibiti.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi baturage arimo kubagenda abagezaho ijambo. Afite igikoresho k'ikoranabuhanga bita indangururamajwi. Yambaye isaha ndetse afite n'agashati karimo uburongo bugiye butandukanye. Yambaye agapfukamunwa ndetse arimo kugenda avuga ijambo.

Umusozi muremure uriho ibiti by'inturusu. Umuntu ashobora gukuramo inkwi byo gucana ndetse hariho n'ibibuye by'ibishonnyi bitagira umumaro. Aha hantu ntabwo hahingwa ndetse n'ibi biti ntabwo bikura neza. Uretse kuba umuntu yaharagira amatungo cyangwa se ibi ngibi bigafasha mu kuzana imvura ku no mu kubungabunga ibidukikije.

Umugabo uhagaze aho bororera ibiti cyangwa se muri pepiniyeri, afashe igiti kiri mu gihoho ndetse arimo kugenda akererekana, kigeze igihe cyo kubangurirwa kugira ngo kizakore neza.

Amoko y'ibihaza bita ibidodoki byifashishwa mu gukora imboga zo kurisha umuceri cyangwa se kuvanga mu birarayi, ibi ngibi bigira intungamubiri zigiye zitandukanye nyinshi cyane zishobora gufasha umubiri wa muntu, ni imboga kandi ushobora no kubirya byonyine ubigeretse ku bishyimbo.

Umucuruzi urimo kugenda agurisha inyanya. Abantu barikuza akagenda bacagura. Izi nyanya ni nini kandi nta dutoya turimo. Zirasa neza ziri mu gatebo ni ukuvuga ngo ni twa tundi bagenda baranguriramo, igihe abaturage bazizanye ku isoko.

Umuhinzi w'amatunda arimo kugenda ayazirikira ku mikwege kugira ngo agende ari kurandarandira, uyu nguyu akora umushinga wo korora amatunda, ahangaha arimo arayazirika kugirango ngo azahishe neza kandi atange umusaruro.

Umugore urimo kugenda asarura ibitunguru mu karima k'igikoni, karimo intoryi, ibitunguru ndetse n'izindi mboga z'amoko agiye atandukanye, arimo kugenda asoroma ibitunguru kugira ngo arebe ko yajya gukora agasosi kameze neza ndetse gahumura.

Isoko ririmo imbuto z'amoko agiye atandukanye ziganjemo amavoka, inanasi, amaronji, imineke, ibinyomoro, pavuro, ibihaza ndetse n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bw'imboga.

Ibimera biteye ku mirongo ndetse ni ahantutu hagari biragaragara ko ari ikibaya kinini cyahariwe guhingwamo ibishyimbo, biteye ku mirongo ndetse ni kwa kundi umuntu atera akoresheje ifumbire risanzwe ndetse n'ifumbire mvaruganda kugira ngo ikimera gikure neza.

Abahinzi bagera kuri batatu, barimo kugenda begura amashaza, ahinze neza ku murongo ndetse bagiye bashyiraho utuntu tumeze nk'utudodo, amashaza yagiye yurira ndetse bagiye banayashingirira ku buryo adashobora kugwa kugira ngo atange umusaruro.

Amobokoko y'imboga agiye atandukanye, yiganjemo karoti, imiteja, inyanya, inoryi, urusenda, pavuro ndetse n'ibindi byinshi, ahangaha ni mu isoko, aho bacuruza imboga z'amoko agiye atandukanye.

Umugabo w'umusaza ufite imvi, uyu nguyu arakuze cyane ni umuhinzi ndetse arimo kugenda areba ubuhinzi bwe aho bugeze, akora ibijyanye no guhinga indabo zifite amoko agiye atandukanye, hariho izigira ibara zitukura izindi zikagira ibara ry'umuhondo n'andi agiye atandukanye.

Umugabo urimo kuvomerera imyaka y'ibishyimbo, ni mu gihe k'impeshyi arimo kugenda asuka amazi mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo ubutaka bube butose kugira ngo iyi myaka ize gukura neza, ni mu gihe k'impeshyi aramutse atayikoze iyi imyaka ishobora kuma.

Umugabo ufite itiyo irimo amazi arimo kugenda ayanyanyagiza mu bice bitandukanye, ni kwa kundi baba barimo kuvomererera mu gihe cy'impeshyi, cyangwa se igihe k'izuba ryinshi kugira ngo ibihingwa bize gukura neza. Ubu ni uburyo bugezweho bwo kuvomerera.

Umugore w'umuhinzi urimo kugenda avomerera imyaka akoresheje bwa buryo bugezweho yafashe itiyo aricomeka ahantu harimo kuva amazi hanyuma akagenda anyanyagiza amazi mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo ibimera bye bigarure ubuyanja.

Itiyo riciye hagati y'ibigori ndetse ibigori bisa neza bigaragara ko ari ya matiyo atwarara amazi mu nshe zigiye bitandukanye mu gihe k'impeshyi kugira ngo baze kubyuhira byere neza bitaje kuma.

Umurima w'ibigori bikiri bitoya, aho hagati hariho itiyo rirerire, ryifashishwa mu kuvomerera cyane cyane mu gihe cy'impeshyi, igihe izuba riba ryavuye ari ryinshi, iritiyo rinyuzwamo amazi ndetse akagenda akwirakwira mu ibice bitandukanye by'umurima.

Umwana ukiri mutoya, ufite igikoresho cyifashishwa mu kuvomerara ndetse no gutera umuti. Arimo kugenda avomerera imyaka ikiri mitoya, ni mu mugihe cy'impeshyi arimo kugenda ayivomerera kugira ngo arebe ko yakura neza, kuko ikiri mitoya ishobora kuma igihe izuba ryabaye ryinshi.

Inyubako itanga amazi ajya mu byerekezo bigiye bitandukanye. Mu kuhira imyaka igihe izuba ryavuye, mu gihe k'impeshyi. Ibi bifasha imyaka gukura neza kandi itoshye. Ni ukuvuga ngo amazi agenda ava ahantu ajya mu byerekezo bigiye bitandukanye agendera mu matiyo, ubundi akagenda asakara mu mirima.

Ikibaya kiri hagati mu misozi ndetse gihinzwemo n'imyaka gitandukanye, harimo insina ndetse n'ibindi bihingwa, ku ruhande kandi hariho umuhanda, hariho n'ibiti birebire cyane biri ahantu hasa n'agasozi.

Imisozi miremire iciyeho amaterasi y'indinganire, hakurya hariho ikiyaga gifite utudwa tugiye dutandukanye turimo hagati y'ikiyaga, umuntu uri aha ngaha kuri utu udusozi aba yitegeye imisozi iri hakurya areba ibibera muri biriya biyaga.

Ikibaya gihinzemo imyaka igiye itandukanye harimo n'abantu bakeya, ahantu nkaha akenshi haba hahinzemo umuceri cyangwa se imbuto ndetse n'imboga, ni ukuvuga ngo nibyo bintu bikunze kwera ahantu h'ikibaya ahantu hari amazi menshi.

Imisozi itari miremire iriho amatarasi y'indinganire atuma ubu butaka budatemba mu gihe k'isuri, mu gihe k'imvura nyinshi ndetse hagiye hateyeho ibiti ku mikingo, ndetse ni imisozi igera kuri itatu. Aya materasi y'indinganire atuma imisozi isa neza kandi bikayirinda isuri.

Ahantu mu musozi hahinze icyayi, ndetse ni heza cyane. Hitegeye imisozi kuko umuntu uhagaze ahangaha aba areba mu yindi misozi igi itandukanye ahahirengeye cyane. Ndetse hahinze ibindi biti bishobora gukurwamo imbaho cyangwa se bigacanwa.

Ikibaya kidahinzwe kitegeye imisozi aha ngaha kandi mu kirere kirasa nabi cyane kuko imvura biragaragara ko igiye kugwa, ikirere kirabuditse kandi ahenshi hari amashyamba ndetse no mu misozi ahandi hari ikibaya.

Inka zigiye zitandukanye ziri ahantu mu rwuri, ni bwa buryo umuntu ashobora kuragira ku gasozi cyangwa se ahantu haba harabugenewe baba barashyizemo umucaca bagateramo n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, amatungo ashobora kurisha hanyuma inka zikajya ziberayo.

Ubworozi bw'inkoko, aho aha ngaha hariho amoko agiye atandukanye y'inkoko, harimo izitera amagi ndetse n'ibisaki. Hariho kandi utuntu tugiye dutandukanye turiho imiti ari na two inkoko zigenda zifatiraho ibyo kurya.

Ubworozi bw'inkoko bwiganjemo amoko agiye atandukanye y'inkoko, amenshi ni amasake ndetse kandi aya ngaya aribwamo inyama, ni ukuvuga ngo aba borozi borora bashingiye ku kuvuga ngo tuzajya tugurisha inyama.

Ubworozi bw'inko aho ziganjemo izisa umukara ndetse n'izindi zisa n'amapondezi, hariho kandi ibikoresho bishyirwamo ibyo kurya, zirimo kugenda zizenguruka hano kandi ku ruhande hariho ibirahuri ndetse n'ikigega, aha ngaha ni bwa bworozi bugezweho.

Inzu yabugenewe ibamo amatungo bita ikiraro. Yubatse muri bwa buryo bwiza bugezweho bw'iki gihe. Aho hasi hateye sima ndetse hafite isuku. Harasakaye hasakaje amabati ndetse hariho n'ahandi hari ibiti aho inka ziba ziri mu gihe ziri kuririsha cyangwa se zitashye mu rugo ku buryo zidashobora kunyerera.

Ihene ziri ahantu mu rwuri ni nyinshi cyane inyinshi zifite amabara y'umweru n'umukara ndetse hariho n'abantu benshi barimo kuzireba, aba ngaba ni abashumba bazo barimo kureba uko zigenda zirisha ku buryo zidashobora guhura n'ikibazo.

Inka yororewe mu kiraro iki ngiki ni ikimasa kandi gifite umutwe w'umweru imbere mu mazuru baziritsemo umunyururu kugira ngo itazaca, hanyuma kandi ahantu iri hakikijwe n'ibindi byuma bisize irangi ry'umutuku.

Ubworozi bw'inka, aho uyu muntu arimo kugenda aragira inka, ziri ahantu mu rwuri ndetse ahantu nk'aha zikunze kuba zibayo zidataha mu rugo, zikrirwa zirisha ku gasozi, akaba ari naho bazikamira ndetse ni naho zivurirwa igihe zagize ikibazo.

Amatungo yororewe mu kiraro inka ndetse n'akana kayo, ubundi bakita umutavu, irimo kugenda irisha ubwatsi bayihaye, aho iiri harasasiwe hameze neza, ni mu kiraro ni ukuvuga ngo iyi nka ntago isohoka iririra hano, akaba ari naho iryama.

Inka reroroye muburyo bugezweho, bwita gukorera mu kiraro, aho irimo kugenda irisha ahantu iri harasasiwe ndetse hari n'ibyuma by'imituku, bigiye bitambitse kuburyo inka idashobora gusohoka, igihe cyose yaba iciye, umuntu adahari.

Ubworozi bw'inkoko ziganjemo za zindi zitera amagi gusa zitararira, ni za zindi za kizungu bita Saso, zirasa ziri mu mabara amwe, aha ngaha ni mu nzu nini ziba zororewemo ziba zisanzuye, ni na ho ziterera ubundi nyirazo akagenda akusanya amagi.

Ubworozi bw'ingurube aho ari ho ikiraro cyororewemo ingurube zigera kuri ebyiri, zitanga amafaranga ndetse kandi ushobora no kuziryamo inyama, ni ukuvuga ngo ni ubwoko bw'imishinga ishobora gutanga amafaranga.

Ikiraro kirimo inka zorowe mu buryo bwa kijyambere ndetse zirimo kugenda zirisha ubwatsi buseye, ni inka zifite ibara risa, zose ni ubwoko bumwe, ziragaragara nk'aho ari amashashi, ziracyari ntoya ntabwo ziratangira kubyara.

Ikiraro cyubatse neza, kirasigaye, kisakajwe amabati ndetse ahantu inka ziri, harashashe neza, ni bwa bworozi bugezweho, aho amatungo atacyororerwa ku gasozi mu rwego rwo kwirinda isuri ndetse no kuba bakangiza ibidukikije.

Urwuri rurimo inka zigiye zitandukanye, ni kwa kundi haba hariho ahantu habugenewe ukorora inka cyangwa se urwuri, aha anga ziri nyinshi, ni kwa kundi ziza hamwe bagiye kuzikama cyangwa se aho zishokera.

Ubworozi bw'ihene harimo zimwe zisa umweru, umukara ndetse n'izifite amabara agiye atandukanye, ziza hano igihe zivuye kwahurwa cyangwa se igihe zivuye kurisha, bazizana zikaba hano, zikaharara ndetse zikongera zikahava mu gitondo mu gihe bagiye kuzahura.

Inka nyinshi ziganjemo inyana zirimo kuza zishoka. ahangaha ni ahantu habugenewe bashyiramo amazi bagashyiramo n'umunyu inka zikaza gushoka, izingizi ziganjemo izikiri ntoya ndetse zimaze igihe gitoya zibyawe.

Ingurube irimo konsa ibyana byayo, iryamye hasi, ndetse ahantu iri hafite isuku hateye sima, kandi harasasiwe. Ubungubu ni uburyo bwiza bwo gufata amatungo neza, ku buryo adashobora guhura n'imyanda, cyangwa se ibintu bishobora kuyibuza gukora byiganjemo inda ndetse n'utundi dukoko twataka amatungo.

Urwuri rurimo inka nyinshi, harimo iz'imbyeyi ndetse n'izirimo gukamwa, hariho ibiti bigiye bitandukanye ikirere kirasa neza mu gihe cy'impeshyi. Harimo ubwatsi bwinshi busa neza izi nka kandi ziratoshye.

Ingurube ira ahantu mu kiraro, harimo n'ibintu bigiye bishashe, hasi bigira ibishariro, irasa neza biragaragara ko bayigirira isuku, ingurube kandi ni nziza kuko ihita yororoka vuba vuba, umuntu wayoroye akagira amafaranga menshi, agahita yivana mu bukene.

Iyi ngiyi bayita rupfuna inoti cyangwa se misaya myiza, iyi ngiyi ni inyamaswa cyangwa se itungo ryifashishwa mu bworozi ngandurarugo ku buryo umuntu uyoroye ashobora kubonamo amafaranga menshi, ashobora kandi nanone kuba yayirya cyangwa se akayigurisha cyangwa se akayoro ikabyara kugira ngo agende abona umusaruro uhagije.

Abantu bakora mu bintu by'ubuhinzi bambaye nk'abaganga barimo kugenda batemmbere ku ivuriro ririmo ibikoresho bimeze neza by'ikoranabuhanga ndetse ahantu ntabwo hagirwabwa n'umuntu ari we wese utahakora abwirwamo abantu bakora serivisi ijyanye n'ubuzima cyangwa se bita ku bimera.

Ahantu hanitse ibigori ni umugore wagiye yanika ibigori ku ihema rirerire arimo kugenda abisanza mu byerekezo bigiye bitandukanye kugira bigere ku kazuba, ni uburyo bwiza bwo gutegura imbuto ndetse kandi no kuba yayikuramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo akawunga cyangwa se ifu y'igikoma.

Umuceri wamaze gusarurwa urunze hamwe udatonoye ushobora kwifashishwa mu gihe umuntu agiye kuwutera ahantu runaka cyangwa se igihe ugiye kugemeka imbuto, aha ngaha ni imbuto gusa zirimo kugaragara hano.

Aborozi barimo kugenda bafata inkoko yarwaye, barimo kugenda bayihereza umuti. Uyu nguyu biragaragara ko ari umuganga w'amatungo, arimo kugenda areba ikibazo izi nkoko zifite mu rwego rwo kuzitaho no kuzikingira uburwayi.

Abaganga bakoraniye hamwe barimo kugenda bavura, biganjemo abavura amatungo kuko iyi ni nyamaswa baryamishije hasi barimo kugenda bavura, biragaragara ko irembye cyane hariho udukoresho twinshi tugiye ducomekeranye ndetse ku ruhande hariho na serumu bayiteye kugira ngo barebe ko yakira.

Abagabo babiri aho hariho umwe wambaye indorerwamo yunamye hasi yambaye uturindantoki, arimo gukora mu nyama. Ahantu bahagaze huzuye amaraso menshi wagira ngo ni hahandi babagira. Kuruhande kandi hariho nundi mugabo uhagaze wambaye bote z'umweru.

Inyamaswa zigera kuri esheshatu ziganjemo imbwa, zimwe zicaye ku maguru yazo ndetse n'uzindi na zo ziri kureba mu bice bigiye bitandukanye, hariho amasahane agiye atandukanye yiganjemo aho bashyiraho ibiribwa ari na ho zirira.

Umugore uhagaze ku bubiko burimo amata, ndetse ni amata bagiye bapfunyika mu dusafi, ajya yoherezwa mu duce dutandukanye tw'igihugu, biyafasha kuba adashobora kwangirika cyangwa ngo ahure n'ikibazo runaka.

Umuganga w'amatungo, arimo kugenda avura iyi inka, yagize ibikomere bigiye bitandukanye arimo kugenda ayidoda ndetse aha ngaha urebye neza, ashobora kuba yari yamaze kuyibaga, ahantu yagize ikibazo, none ari kongera kuyidoda.

Umuganga ufite akantu arimo kugenda acuma ku binini ndetse imbere ye hariho n'imiti igiye itandukanye ari mu bushakashatsi gusa uyu nguyu aragaragara nka bano baganga b'amatungo arimo kugenda avanga vanga umuti kugira ngo arebe ko yajya kuvura amatungo runaka.

Umuganga ufite ibinini bike bitandukanye byiganjemo ibiri mu ibara ritukura ndetse ku ruhande hariho imiti y'amoko agiye atandukanye ari mu turiko twayo ndetse arimo kugenda yitegereza ibi binini areba uko bimeze, yambaye uturindantoki ndetse n'ijiri cyangwa se ikanzu yo kwa muganga.

Umuganga w'amatungo ufite igikoresho bita iselenge arimo kugenda aregera ashyiramo umuti ari na ko agenda akurura, hariho ahantu umuntu akanda ari kwinjiza umuti ndetse hari n'ahandi hantu ushyiraho urushinge ari rwo rukoreshwa mu kwinjiza umuti ku itungo rirwaye.

Inyamaswa bita inzovu iboneka muri Parike National y'akagera. Iyi ngiyi, niyo nyamaswa ibyibushye cyane ugereranyije n'izindi. Ni ukuvuga ngo uretse kuba ibyibushye ariko ntiyahangara intare, ariko intare nayo ntago ishobora kuyihangara.

Inyamaswa bita amasatura, izingizi ziba muri parike nasiyonali y'Akagera, zirimo kujya mu bice bigiye bitandukanye, ahangaha iyo wahagiye urazisura ndetse ntabwo biba byemewe kuzegera kuko zishobora kukugirira nabi igihe uzegereye.

Inyoni ziboneka mu mapariki agiye atandukanye, iz ngizi zizaba zifite amabara meza, ziba mu bihugu bimwe na bimwe by'Afurika, iyi nyoni kandi iyo yirambuye hari ukuntu igaragaza amabara atandukanye, bituma iba nziza cyane.

Inyamaswa yitwa intare irasamye ku buryo aha ngaha uhageze yahita ikumira, izi ngizi ziboneka muri parike nasiyonari y'akagera mu burasirazuba niho ushobora kuzisura ukaba wazireba ariko ukazirebera kure zirasamye zirasa n'izishonje.

Akanyamaswa gateye neza gafite ikirizo kinini. Ukarebye neza wagira ngo ni urukwavu. Aka ngaka kandi kaboneka mu ishyamba cyangwa se muri parike nasiyonari y'Akagera. Aho mu gihe ugiye kuhasura ushobora kukabona.

Inyamaswa z'amoko agiye atandukanye, zo ku gasozi ziganjemo, udusumbashyamba, cyangwa se twiga, hari inzovu, hakabaho imparagehe ndetse n'impara ndetse hari kandi nanone n'impongo, zirimo kugenda zizenguruka, zikata mu bice bigiye bitandukanye.

Inyamaswa yo ku gasozi ifite amabara agiye atandukanye umukara ndetse n'ubundi budomagure bayita ingwe, iyi ngiyi iyo utayitinye irakurya kuko ni inyamaswa y'inkazi kandi ni imwe mu nyamaswa zirukanka cyane ziba muri Parike National y'Akagera.

Akanyamaswa kameze nk'inyahuku kari ahantu muri pariki, karimo gutunga amaso hejuru ndetse n'amatwi kayashyira hejuru, aka ngaka gakunze kuboneka muri parike nta handi hantu ushobora kugasanga kuko inyamaswa nk'izi ntabwo zoberwa mu rugo ziba ku gasozi.

Inyamaswa zirimo kugendera hamwe ziganjemo inzovu, isatura, intare ndetse n'ingwe, izi ngizi ni inyamaswa zo ku gasozi ushobora gusanga muri pariki nasiyonari y'Akagera mu Rwanda igihe wagiye kuhasura.

Akanyamaswa ko mu ishyamba bita isha, kameze nk'ihene bijya gusa uretse two aho bitandukaniye ni uko ko kaba mu ishyamba kandi kaba gafite n'amaguru maremare, ikindi kandi gafite n'agahanga gatoya n'amatwi areba hejuru, ni ukuvuga ngo ko kazi kwirukanka, ntabwo ushobora kugafata.